Urubyiruko rwitabiriye inama, rwambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu bwererutse, ku meza hateretse amacupa y'amazi ari mu ruganda rw'Inyange.

Yitabiriwe n'abayobozi batandukanye ku meza hateretse mudasobwa bari kwandikamo ibyavugiwe mu nama n'amacupa y'amazi atunganywa n'uruganda rw'inyange agafungwa neza mu buryo bw'isuku kandi bwizewe.

Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye ku meza buri wese afite igikoresho cy'ikoranabuhanga kigendanwa mu ntoki cya telefone ndetse hakaba hateretse n'amacupa y'amazi.

Bitabiriye inama bagiye batandukanye, ku meza hateretse amacupa y'amazi atunganywa n'uruganda rw'Inyange agafungwa neza mu bikoresho byabugenewe biyarinda kwangirika, akaba afite n'isuku.

Inama yitabiriwe n'urubyiruko rwambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu bwijimye, inyuma hari umukuru w'itangazamakuru ufite icyuma gikurura amashusho, uyoboye inama afite icyuma cy'indangururamajwi.

Uriho n'amabwiriza y'uko wamenyekanisha, ukanishyura umusoro ku mutungo utimukanwa wo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Ni urutonde rurerure ndetse unyura ku rubuga rw'irembo.

Ahatangirwa serivisi z'Irembo nko gufotorwa amafoto magufi, kwishyurwa imisoro ndetse n'ibindi gusaba ibyangombwa bigiye bitandukanye, hari urugi ruri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umunara muremure, wubakishije ibyuma bikomeye, biri mu ibara ry'umutuku, ndetse n'umweru, hirya gato hari ibiti bikurura umwuka mwiza, bigafata ubutaka, bukarinda isuri, ndetse bikaba byavamo n'ibikoresho byo gucana, inkwi, ndetse n'amakara.

Muremure wubakishije ibyuma bikomeye kandi bigezweho, uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, ukaba ukwirakwiza insinga zigiye zitandukanye z'umuriro w'amashanyarazi.

Umunara muremure wubakishijwe ibyuma bikomeye, uriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino, mu rwego rwo kunoza ikoranabuhanga ryihuta kandi rigezweho.

Inzu ziri ku murongo zubakishije amabuye akomeye. Imbere hari igiti kirekire kiriho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi. Ku ruhande hateye ubusitani burimo indabo n'ibindi biti.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nyengero hari akayira k'abanyamaguru n'itara ryo ku muhanda ririho itsinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino mu gace.

Ku bitaro cyangwa ku kigo nderabuzima, hari ubusitani buteyemo indabo zirimo ibara ry'umutuku n'umuhondo, hakaba hubakishije amabati, ari mu ibara ry'umutuku.

Uri imbere y'inkiko gacaca ndetse n'abandi baturage bari kumuburanisha ku byaha aregwa bigiye bitandukanye, ku nkengero hakaba hari ibiti byinshi by'ibidukikije.

Gereza ya muhanga ahacumbikiwe imfungwa cyangwa abagororwa, bakatiwe igihano runaka bigendewe ku byaha bagiye bakora, hubakishije amabuye akomeye.

Ikigo cy'ubwiteganyirize mu kuzigama ndetse kikaba gishinzwe n'imari mu rwanda imbere haparitse imodoka y'abashinzwe umutekano hari kugenda umugore w'umupolisi.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, imbere hari ushinzwe umutekano wo mu muhanda wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umukara n'icyatsi kibisi, ahagaze imbere y'umumotari n'isoko.

Wicaye mu ntebe iri mu ibara ry'umukara, ufite mu ntoki ibipapuro imbere ye hari akuma gakurura amajwi ndetse kakanayasakaza, mu mbwirwaruhame ndetse n'icupa ry'amazi.

Abakora umwuga wo gutwara bitwa abamotari baparitse ku muhanda utwara ibinyabiziga biheka abantu ndetse n'ibintu, bambaye impuzankano z'akazi inyuma hari amatara yo kumuhanda.

Umuhanda unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru n'igiti kirekire kiriho insinga zikwirakwije umuriro w'amashanyarazi, hirya no hino muri ako gace.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu hari gucamo imodoka iri mu ibara ry'umweru yikorera imizigo ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru n'umuferege ucamo amazi.

Utumoto duto twifashishwa mu gutunda imitungo cyangwa se imizigo iremereye, uyikura ahantu hamwe uyijyana ahandi, iri mu ibara ry'ubururu, tukaba dutondetse ku murongo.

Umuhanda nyabagendwa ukoreshwa n'abagenzi bagiye batandukanye, ku nkengero hari ubusitani burimo ibiti ndetse n'imbuto z'amapapayi n'uburabyo bwinshi butatse aho hantu.

Ikibuga kinini cyane, gikorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse kikaba gikinirwamo umukino w'umupira w'amaguru, ku nkengero hari ibiti by'ishyamba.

Hamwe n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu hari gucamo imodoka nini itwara abagenzi hari icyapa cyerekana ko imbere hari ikiraro ku nkengero z'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru n'ibiti

Icyapa cya mpande eshatu gishyirwa ku muhanda, kikaba cyerekana yuko imbere gato hari ihuriro ry'imihanda ibiri. Kikaba gifite amabara atatu umweru, umutuku ndetse n'umukara. Kikaba kiyobora abagenzi n'ibinyabiziga.

Umuhande unyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, hirya gato hari ubusitani buteyemo indabo ndetse n'ibiti n'imikindo, imbere hari inyubako ndende.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu, gifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, gishyirwa ku nkengero z'umuhanda, kikaba kiburira cyangwa kimenyesha, kikaba kandi kiri iruhande rw'ibiti.

Icyanya cyangwa isambu nini iteyemo ibiti ndetse hakaba harimo n'ibyatsi byinshi cyane, imbere hari igorofa rigeretse kenshi, rishobora kuba ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye.

Igipangu cyubatse ahantu heza, gishize amabara ari mu ibara ry'umukara, imbere hakaba harimo inyubako y'igorofa, hakaba hariho udutara duto, ku nkengero hari ibiti.

Inzu y'igorofa yubatse mu buryo bukomeye kandi bugezweho, isize amarangi meza cyane harimo umutuku weyurutse, ikaba isakajwe amabati imbere hari udutara duto, ku rugi runini hariho ibara ry'umuhondo n'umukara.

Hagendwamo n'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu, harimo ukora umwuga wo gutwara abagenzi w'umumotari, imbere ye hari ibiti by'ibidukikije, ahagaze imbere y'igipangu.

Inyubako zubatse mu buryo bw'akajagari zisakaje amabati y'umutuku hagati hagiye hateyemo ibiti bikurura umwuka mwiza, bigatanga imvura, bigakumira isuri bifata ubutaka.

Ubucucike, zikaba zisakarishije amabati ari mu ibara ry'umutuku hakaba hateyemo ibitoki by'imsina zo kuribwa ndetse n'izo kunyobwa, hakaba kandi hari insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

N’urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abantu ndetse n'ibintu ku nkengero hari akayira kw'abanyamaguru ndetse n'ibiti by'ibidukikije imbere yaho hari igiti kirekire kiriho intsinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru n'ubusitani buteyemo indabo n'ibiti by'amoko yose, hari kandi amatara yaka mu gihe cya nijoro.